Ibitaro cangwa kilinike ni ahantu heza cyane, kubera ko hadufasha mu gihe twahuye n'ikibazo c'uburwayi, tukahaja tukavurwa tugakira n'abaganga bahakorera cyangwa Abanasi, bigatuma biteza imbere ku bw'uko bahafata umushahara wabo w'ukwezi.

Ibitaro na byo ni iby'agaciro kubera ko bibashaga kuba byadufasha igihe twarwaye, igihe dufite ibibazo bijanye n'ubuzima, haba hari n'umugore utwite akaba yaja kwivuzayo. Hari abakozi benshi bakoraga kwa muganga, bakora mu bitaro, abakora amasuku, abaganga, abanasi n'abandi benshi cyane, abarinda umutekano, bose babashaga kubona ibibatunga bivuye mu kuba bakoze.

Farumasi ni ahantu hakenerwa cane hatangaga akaza abakozi bakoraga muri farumasi bose bose barahembwaga , farumasi ni ahantu dukuraraga imiti kugira ngo tubashe kuba twakwivura n'indwara twarwaye muri rusange bikanabafasha n'abantu bikaborohereza bakaja kwa muganga, baja kwa muganga babandikira imiti bakaja kuyiguramo.

Imboga ni nziza turazihingaga tukabasha kubona akazi kubera bamwe na bamwe barazicuruzaga, abandi bakazi bakazi bakazikoresha mu rwego rwo kwirinda indwara, kubera kobera ko iyo wariye imboga ntabwo, ntabwo urwaragurikaga.

Igisura ni igihingwa ciza. Igihingwa gishobora guhinduka imboga, gishobora kuba cahinduka, cahinduka igicuruzwa, abacuruzi bakagicuruza bakabona amafaranga, ndetse n'abakiguze bakakirya kikabarinda indwara zitandukanye.

Guhinga ibihingwa bivuraga indwara, harimo nk'imboga n'ibindi muri rusange birafashaga cane, kubera ko umuntu wabihinze bikamera neza, arabigurishaga ibindi na we akabikoresha abirya kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza.

Imboga ni nziza cyane kuko mu muco nyarwanda ndetse n'ahandi hose iyo uzifashe ukazitera zikagera igihe cyo kwera ukazisarura ukazirya icyo gihe uba uri kwirinda indwara; kandi ushobora kuba wakuramo izo ushaka ukazigurisha ukabona amafaranga ukayakemuza ibindi bibazo.

Akenshi zishobora kuba zahinduka imboga cangwa se ukaba wavuga y'uko ari umuti gakondo, ushobora kuba wakurinda indwara, ukaba wakuvura n'izindi ndwara zitandukanye. Mbese muri rusange uyu nguyu nawo ni ingirakamaro, ushobora kuba wagurishwa, cangwa se nk'abaganga bawufite bakawubyazamo ikindi kintu cyo mu iyi minsi.

Ibi byatsi bibaga byiza cane kubera ko bishobora guhinduka imboga, umuntu akaziteka mu biryo zigahinduka imboga, abandi bakazikoresha nk'umuti, nk'umuti w'abantu cangwa w'amatungo kugira ngo ibintu bigende neza, bakaja baranawugurisha cangwa bakawukuramo ibindi bintu muri rusange.

Imiti gakondo na yo ni myiza cane, habaga igihe ikenewe ndetse ikatuvura tugakira, ikindi kandi iyo tuyiteye tubashaga kuba twayigurisha tukababona ibyo turya bindi bitandukanye, abandi bana bacu tukabishurira amashuri.